Bateraniye hamwe bari mu nama iyobowe n'umuntu umwe uhagaze, yambaye imyenda y'umukara, inyuma ye hicaye abantu batatu, imbere ye hari abantu benshi bafite amazi abateretse imbere. Hagaragaramo abagore n'abagabo.

Aho abakuru b'igihugu bahuriye baganira ku bibazo by'abaturage, hateraniye bantu benshi abandi bicaye imbere, barimo barababwira imigabo n'imigambi babafitiye n'icyo bazabafasha mu gihe kiri imbere n'abaturage batanga ibibazo byabo.

Uyu ni umugabo ufite igikoresho kimufasha kurangurura ijwi, ni muremure, ntabwo yirabura cyane, inyuma ye hari igipapuro kigaragaza ibyo uwo mushinga ugamije, byanditse mu magambo asa umweru n'andi asa umukara.

Inama ikoranyije abantu benshi batandukanye bafite inshingano zitandukanye mu rwego rwa leta bambaye imyambaro itandukanye harimo amakote abandi na mama, abandi ni abapapa, harimo abakuze n'abatoya.

Abantu bane bicaye bari mu nama, batatu bicaye ku ruhande rumwe, umwe niwe wicaye abareba, umugore ufite uruhu rwera iruhande rwe hari umugabo utari kugaragara mu maso bafite udutabo two kwandikamo n'amakaramu yo kwandikisha.

Ihuriro ry'abantu benshi bahuriye hamwe kugira ngo baganire ku bibazo bafite leta ibashe kubafasha kubikemura yaba ibyo mu miryango, mu mashuri no munzego za leta, ibi bibafasha kubana neza no kugaragaza ibibazo bahanganye nabyo.

Irimo abagore, abagabo haragaragara umugore wambaye hagati ibirahure bimufasha kureba, na mugenzi we wundi nawe, yambaye kimwe nawe we, bambaye amakoti y'umukara n'umukanzu y'umituku, inyuma haragaragara amagambo amenyesha Kigali yacu.

Abana bicaye barebana, bafite amazi imbere yabo n'udukayi two kwandikamo, abandi bafite ibikoresho byikoranabuhanga mu ntoki, harimo abagore babiri n'umugabo umwe bambaye ibirahuri bibafasha kureba neza.

Abantu bicaye mu nama uko bigaragara ni urubyiruko, bose bafite amazi imbere yabo, barakurikiye. Inyuma haragaragara icyapa kigaragaza ibyo umushinga barimo gukora, harimo abagore, harimo abagabo.

Inama ikoranyije abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara bari ku meza asa umutuku, hari igikuta gifite amarangi y'umweru hari umucyo uri guturuka hanze bigaragara yuko haracyari kumanywa.

Abantu barahagaze abandi baricaye bari gufata ifoto y'urwibutso, ishobora kuba yamamaza ibikorwa byabo. Ku ruhande, hari ibyapa bigaragaza ibyo bakora kimwe kiri mu ibara ry'icyatsi, Ikindi kiri mu ibara ry'ubururu.

Aha bari gukoma amashyi baririmba, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, intebe zirasa umutuku, hariho ibitambaro ku meza bisa umuhondo.

Umugore bicaye mu nama, bakurikiranye bicaye mu cyerekezo kimwe, hagaragara abagabo batatu bambaye ibirahuri bibafasha kureba, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, umwe yambaye imyenda ijya gusa umweru, undi yambaye imyenda yubururu bwijimye.

Ubu ni ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye yaba iz'umuhondo, iz'icyatsi ubwoko bwose, hirya gato ari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubari aho bose.

Inama iyobowe n'abantu batandukanye, imbere hicaye abantu babiri umugore n'umugabo, ku ruhande rwabo bahagaze umugabo wirabura muremure wambaye imyenda isa. We afite igikoresho kimufasha kurangurura amajwi.

Inama yakoranyije abantu batandukanye harimo abagore harimo abagabo, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa hari abafite ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo n'abambaye ibirahuri bibafasha kureba.

Bateraniye hamwe, bari mu nama, harimo umugore n'abagabo bane, bicaye imbere, abandi bicaye imbere aho babareba, inyuma yaho hari icyapa cyanditse mu magambo manini y'ubururu bwijimye.

Abantu bari mu nama, bicaye mu byerekezo bimwe bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki, harimo abambaye ibirahuri bibafasha kureba neza, bambaye imyenda ifite amabara umweru, ubururu, umukara kaki.

Inama ikoranyije abantu benshi batandukanye bafite inshingano zitandukanye mu rwego rwa leta bambaye imyambaro itandukanye harimo amakote abandi na mama, abandi ni abapapa, harimo abakuze n'abatoya.

Ibikorwa bya Leta by'ubukangurambaga, abaturage bicaye hasi mu busitani, bari gukurikira umuntu uri kubabwira uhagaze, bakikijwe n'ibiti byiza bisa icyatsi, hari ikirere gifite umucyo kitarimo imvura.

Abagabo batatu bicaye bari ku gikoresho cy'ikoranabuhanga, bambaye imyenda idoze mu buryo bw'umuco w'Afurika, babiri bambaye amagofero, uwo hagati ni we utayambaye, abo ku ruhande nanone bambaye ibirahuri bibafasha kureba.

Wakwizigamira ukoresheje Giti banki bitewe n'uko umutekano w'amafaranga wawe uba wizewe ijana ku ijana. Tandukana n'ibindi bigo by'imari bigusaba kuzana ingwate kugira biguhe inguzanyo kuko aha ntibihaba.

Yahuje abantu batandukanye harimo: abagore harimo n'abagabo, imbere yabo hari indabo zisa icyatsi bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga buri wese afite icupa ry'amazi, afite n'ibyangombwa harimo telefone n'ibindi ari gukoresha yandika.

Umushinga uri gutegurwa hari kugaragaramo ibiti bifite amabara y'icyatsi ikirere cyijimye n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru hasi handitsemo amagambo y'umukara n'andi y'umukara cyane yijimye.

Umunara ufasha mu gukwirakwiza amashanyarazi hariho ibyuma bisa umweru n'umutuku, hariho n'insinga zifasha mu gukwirakwiza amashanyarazi, hasi hari inzu ifite igisenge cy'amabati.

Rimenyesha ko tugiye mubi biruhuko by'umwaka hejuru hagaragaraho ikirangantego cy'igihugu, hasi yanditse amagambo yu'bururu bwijimye n'andi ari munsi yayo yanditse mu mabara y'umukara mu nyuguti ntoya.

Amatangazo atangwa n'ikigo cyitwa Rura, hariho imbuga eshatu gikoresha, hariho amacupa ya gaze asa umutuku, ku ruhande hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru agaragaza igiciro cya gaze ku kiro, hariho na nimero zabo.

Ikigo cya leta cyitwa RURA kiragaragaza uburyo umuntu ashobora kuyishyira mu rubuga rwabo agashyiramo konti yiwe hagaragara aho ashyira amazina n'ijambo banga naho ashyira ifoto yiwe.

Abantu batatu bicaye ku bikoresho by'ikoranabuhanga bashobora kuba bari kwandikira bagenzi babo cyangwa bari kwakira ubutumwa baboherereje, umwe yambaye ingofero isa umweru, undi amwicaye ruguru y'iwe, ibikoresho by'ikoranabuhanga biri ku meza y'ikibaho.

Ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, hariho ibisabwa kuba umuntu yujuje kugira ngo abone icyo kizamini. Agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda, usaba agomba kuba afite uruhushya rwo gutwara rwa burundu rufite agaciro.

Irembo itanga serivisi zitandukanye za leta zikorerwa onurayini, hari akazu gasa umuhondo kanditseho ijambo irembo. Hari n'aho bapuritingira ibipapuro kugira ngo bibashe gusohoka bivuye muri mashini.

Ukoreshwa mu gutumiza ibintu hakoreshejwe ikoranabuhanga ugomba kuba ufiteho umwirondoro wawe hagaragara amazina, n'amazina y'umushinga ukora wari handitsehho amagambo yanditse mu mabara y'umukara.

Icyapa kimenyesha kiri ku gikuta kiri mu ibara risa nk'ivu; hirya yabo hari amadirishya, hari umuntu utari kugaragara neza ni muri ofisi harimo intebe, hari amadirishya y'ibirahure agaragara ku buryo ubona abantu bari inyuma.

Abantu bambaye udupfukamunwa mu gihe cy'icyorezo bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki zabo bafite na none imashini zibafasha gufata ibintu byinshi kuruta uko bakoresha telefone igendanwa.

Inzu ifite amabara y'umweru, haragaragaramo amatara afite imigozi iyafashe y'umukara, hari intebe zifite amabara y'umweru n'umukara, haragaragara ibirahure n'amatara ari kwaka.

Ibyapa bigaragaza ibyo abantu bakora: hari serivisi za banki zitangwa n'abagenti bayo ,hari n'ibindi byapa bigaragaza ibyo abandi bantu bakora muri iyo nyubako bitandukanye. Hari kandagira ukarabe ku muryango winjira.

Umunara ufite ibyuma bifite amabara y'icyatsi, iruhande rwayo hari amazu atageretse afite amabara atandukanye, hirya hagaragara amashyamba ifite ibiti bitandukanye, haranagaragara ikirere gisa neza.

Ahantu ku muhanda hatangirwa serivisi z'Irembo banacuruza inkweto, ziri ku kameza gasa umweru zifite amabara atandukanye, hirya hari akazu na ko gatangirwamo serivise za banki.

inyamaswa iri mu giti biri ahantu ho habera ubukerarugendo, hari ibiti bitandukanye hari n'ibiti byumye bi.

Iminara iri ku murongo ifite insinga ziyifasha gukwirakwiza amashanyarazi, hariho n'amatara afasha mu gutuma umuhanda ubona mu gihe bwije, hari umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga cya moto.

ibinyabiziga bibiri bisa umweru biri ruguru y'umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, umuhanda uherereye Kacyiru, hari ibiti byiza bisa icyatsi, hejuru hari ikirere kitijimye cyane ariko kitarimo n'izuba.

Umuhanda nyabagendwa urimo abantu batandukanye, bamwe bicaye kuri moto, abandi bari kugenda n'amaguru, hari ahatangirwa serivisi zo gutanga esansi, hari icyapa kigaragaza izina ryaho, cyanditse mu mabara y'umweru manini.

Umuhanda nyabagendwa harimo ikinyabiziga ariko kiri kure cyane hari indabyo zikikije umuhanda zisa icyatsi n'ipoto ifasha mu gukwirakwiza amashanyarazi hariho n'insinga z'umukara.

Amapoto afite insinga z'umukara zikwirakwiza amashanyarazi hari amazu menshi atatanye hariho n'ibiti byiza bisa icyatsi, hari urugo rukorotirijwe amatafari.

Umunara utanga amashanyarazi, abaturage bakabasha kubona urumuri aho baba bari hose, hari ibitaka, hari ibyuma, hari amazu, hari n'ikirere gisa umweru.

Urugo rwubakishije amatafari rufite amadirishya y'ubururu, hanze hari indabo n'ubusitani hari n'inzira nyabagendwa n'umuyoboro ucamo amazi, hari n'ipoto ifite insinga nyinshi zikwirakwiza umuriro.

Ipoto ifasha mu gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage, ifite insinga zisa umukara, hari ikirere kitijimye cyane, hari uruzitiro rwubakishije amatafari, hari n'igipangu gikoze mu mabati.

Inzu iri munsi y'ipoto ifite amarange y'ubururu n'umutuku, ifite n'ibara hanze ry'umweru. Hagaragara ikirere gisa neza kitarimo imvura, hanze hari umurima uteyemo ibinyampeke bitandukanye.

Insinga zigenda zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hari amashyamba, hari kirere gisa ubururu kigajutse harakeye, hari ibyuma bigaragara bigenda bifasha izo nsinga gutwara umuriro.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hagaragara umuganga urimo uravura abantu hanze hicaye abantu bategereje. Hari igisenge cy'umweru ahandi hubakishije amabati hari n'amabuye ari ku nkingi.

Ibitaro bya Kabgayi giherereye i Muhanga, cyubatse mu buryo bukoreshejwe amabuye, n'amatafari hariho icyapa kigaragaza ko uba ugeze kuri ibyo bitaro, cyanditse mu mabara y'umukara yijimye, inyuma hashya umweru.

Guha serivisi z'ubuvuzi haragaragara abaje kwivuza, bategereje kwishyura imiti, harimo umugore ufite ibintu ku mutwe we bisutse, yambaye ishati y'umweru, kuruhande hari umugabo wegamye ku nkingi, wambaye imyenda y'umukara.

Hari ibyapa bimenyesha ahantu hatangirwa serivisi hagaragaraho aho babagira n'aho bavurira indwara z'amaso hariho n'ibindi byapa ku ruhande hari n'inzira ziganayo hubakishije amabati n'inkingi z'ibyuma.

Umuhanda urimo imodoka nyinshi zitandukanye zifite n'amabara atandukanye, imwe irasa umukara, indi irasa ibara risa ivu, hari n'indi y'umutuku, hari ikinyabiziga k'igari kenda kwambuka kinjira mu muhanda.

Kwa muganga hatangirwa serivisi zo kwivuza, hagaragaraho abantu bicaye barindiriye kujya kwishyura cyangwa gufata ibizamini kwa muganga, ababyeyi babiri bakuze bari kureba mu cyerekezo kimwe, baniteze ibitambaro mu mutwe.

Wambaye impuzankano y'abantu bamufunze, afite agakoresho kamufasha kurangurura ijwi, afite uruhu rutirabura cyane, inyuma ye handitse amagambo afite ibara ry'umukara wijimye, ari mu nyuguti nini.

Ubuyobozi buri kuganiriza abaturage, abaturage barakurikiye bicaye hasi mu busitani, abandi bicaye ku ntebe, hari ibiti bibakikije aho ngaho hirya hari amashyamba, ubahagarariye ni umuntu muremure wirabura.

Abagabo babiri barahagaze, umwe yambaye ishati y'umweru ,undi yambaye ikote risa nk'ivu n'ishati y'umweru, yambaye amarinete, arirabura n'undi mugenzi we nawe arirabura .Inyuma hari ibikarito bitandukanye byanditseho inkiko gacaca.

Abantu barimo bararahira kuzakorera igihugu bafashe ku madarapo y'igihugu, afite amabara atatu icyatsi, umuhondo n'ubururu. Abari kurahira hagati harimo umugore abamukikije ni abagabo.

Wambaye utuntu mu matwi tumufasha kumva, arasa uruhu rwirabura yambaye imyenda y'umukara. Inyuma ye haragaragara inzu ifite amabara asa kaki nk'ifoto, ku ruhande hari igitambaro gisa ubururu bwijimye.

Umugabo ukora mu bijyanye n'ubugenzacyaha, yambaye imyenda isu umutuku n'umweru n'umukara, yambaye ibirahure bimufasha kureba neza, afite uruhu rwirabura ariko atari cyane.

Umuntu arangije kwiga yambaye imyenda igaragaza yuko agiye mu birori bigaragaza guhabwa impamyabumenyi yishuri yambaye imyenda ifite amabara apika, arirabura yambaye ishati y'umweru yambaye umwenda nundi mwenda w'umukara .

Umugabo uyoboye inama, yambaye ibirahuri bimufasha kureba neza, arirabura, yambaye imyenda isa ubururu bwijimye, imbere ye hateretse icupa ry'amazi, kuruhande rwe hari umugore wirabura, wambaye ishati y'umukara.

Igazeti ya leta igaragaza ibyo abaturage basabwa gukora, iyo babirenzeho ibihano bashobora guhabwa, urugero umuntu wese ufite inshingano ze zo guha serivisi abantu, ufata icyemezo ashingiye ku itonesha, ku bushuti, ku rwango, ikimenyane, cyangwa icyenewabo kubamugana aba akoze icyaha.

Igipapuro cy'amamenyesha gitangwa na Leta, cyerekana ubutegetsi bw'igihugu n'ubw'abanyarwanda, gifite nimero zigiye zitandukanye, zifite imitwe itandukanye.

Mu rukiko hicaye abagabo batatu, hari umushinjacyaha n'uburanisha, hagati y'abo hari umunyabyaha wambaye imyenda yerurutse, abandi bambaye imyenda isa umukara n'umweru.

Mu rukiko hari abagabo babiri uburanisha n'umushinjacyaha, hagati hari abagore babiri bafite imisatsi mike ku mutwe, y'umukara ntabwo birabura bambaye imyenda isa.

Ibinyabiziga bibiri bitwara imfungwa, harimo imfungwa zambaye impuzankano zisa, zambaye n'udupfukamunwa ku munwa. Uba uziherekeje yambaye imyenda isa ibara ryijimye.

Umuntu uhagaze wirabura yambaye ibirahuri bimufasha kubona neza, ashobora kuba afunze kubera ko yambaye imyenda igaragara cyane ikunze gukoreshwa n'abantu bari mu bihano byo mu nzego za leta.

Amagambo ari mu ibara ry'umukara andi ari mu mabara y'umweru arimo ibara ritose ry'umutuku, haranditse ngo usaba gushinganisha umutungo w'undi afite inshingano yo kugaragaza ibimenyetso byerekana ko amufitiye umwenda udashidikanywaho, ugejeje igihe cyo kwishyurwa cyangwa ibyerekana ko uwo baburana ashobora kurigisa umutungo.

Abagabo babiri bambaye imyenda yo mu rukiko y'umweru n'umukara, bariyogoshesheje bose, barirabura, umwe yambaye amarinete, undi ntago ayambaye, inyuma ye hari icyapa kigaragaza ibyo bakora, hari n'igikuta cyijimye.

Igikoresho kifashishwa mu nkongi y'umuriro, mu gihe bibaye bitunguranye gifasha kuzimya, haba hariho agapapuro k'umweru kagaragaza amabwiriza y'uburyo gikoreshwa, yanditse mu mabara y'umukara n'andi y'umutuku.

Kifashishwa mu kuzimya umuriro kirasa umutuku gifite amagambo yanditse mu nyuguti nini yanditse mu ibara ry'umweru, inyuma hakaba hasa ubururu, handitseho andi magambo matoya yanditse mu mweru agaragaza uburyo gikoreshwa.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ya polisi itwara abapolisi benshi, irasa umukara n'umweru, ku ruhande rwabo ikikijwe n'amamoto arimo aragenda mu byerekezo bitandukanye, amwe amanuka andi azamuka.

Ndi kubona igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro. Amagambo ariho agaragaza neza ko icyo gikoresho aricyo cyakabaye kibikwa yanditse amagambo y'umweru ariko akazu bakibikamo karasa umutuku.

Kuri polisi aho bakirira ama serivisi atandukanye y'abaturage, ku buryo abaturage bagize ikibazo bazagana haparitse imodoka ebyiri imwe n'indi umwe hari n'abantu bari hanze y'ibiro byabo.

Kizimyamwoto ifasha kuzimya imiro ahantu habaye inkongi y'umuriro, ifite icupa risa umutuku handitseho amamenyesha y'uburyo rikoreshwa, hejuru ifite umunwa w'icyatsi ira ahantu hasa umweru.

Urwego rushinzwe umutekano ruri mu muhanda, aho rugiye gucunga umutekano, aho abaturage baba bateraniye ari imbaga nyamwinshi. Hari ibiti bisa icyatsi, hariho abantu bari kugenda ku binyabiziga.

Umupolisi uba ufite mu nshingano gucunga umutekano wo mu muhanda, arimo arareba abanyamaguru bari kwambuka, bambukiranya umuhanda, hari ibinyabiziga moto, igare n'imodoka.

Igikorwa cyo kuvomerera ibihingwa, umuntu afashe ukuboko k'undi muntu amwerekera uburyo ibintu bikorwa, yambaye agapfukamunwa yambaye n'igofero kuruhande hari imodoka y'ikinyabiziga isa umuhondo.

Wambaye imyenda yo mu muco w'abanyafurika witwa igitenge, ni umugore utirabura afite imisatsi y'umukara ku ruhande rwe hari indabyo nziza ruguru hari ibiti, inyuma ye hari inzu.

Umugore ukora mu nteko nshingamategeko mu gihugu cy'u Rwanda ari kugaragaza ibibazo abagore bahanganye nabyo n'uburyo igihugu cyabafasha mu kubikemura, umugore akarushaho kugira iterambere mu gihugu kandi afite ijambo.

Umukuru w'igihugu iyo amaze kurahira aranabisinyira mu mpapuro, yambaye imyenda y'umukara n'amarinete amufasha kureba y'umukara. Umugore we nawe bari kumwe ariko arahagaze, nawe yambaye ibirahuri bimufasha kureba.

Bari muri komisiyo y'amatora, haragaragara umubyeyi uhetse umwana, bari gushyiramo uwo ahaye ijwi ryiwe, inyuma ye hari ibitambaro bikikije bitandukanya ibyumba, ku buryo uwinjiyemo aba atareba uwinyuma.

Igikorwa cyahujije umuyobozi w'Igihugu n'abaturage biwe, bari mu rugendo mu muhanda nyabagendwa, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, umukuru w'Igihugu yambaye ibirahure bimufasha kureba neza, ku ruhande rwe harimu umugabo ufashe igikapu.

Abagabo batatu n'abagore bane, barimo bararahira bafashe ku ibendera ry'u Rwanda ari ryo kirangantego cy'u Rwanda, bambaye imikara abagabo, abagore bo bambaye imishanana.

Umuntu yicaye ahakorera hari ibirango by'igihugu yambaye imyenda ifite amabara agaragara cyane, afite imisatsi miremire, inyuma ye hari ibikingirizo kugira ngo izuba ritinjira cyangwa urumuri rwinshi.

Umukuru w'igihugu ari kwiyamamaza, yazamuye ingofero, umupira w'iwe hariho ikirangantego cya FPR, abaturage nabo bamuri imbere, nabo bafite utudirapo dutoya twanditseho FPR.

Urupapuro rwerekana imihigo y'abayobozi ruriho imihigo yose meya bahize ko bazageraho byanditse mu mabara y'umukara bikaba biri mu ibara ry'icyatsi no mu ibara ry'ubururu.

Aho abantu bateraniye ari benshi bari kugira ngo bamamaze umuyobozi uzabayobora mu gihe kiri imbere, bambaye imipira isa umutuku, imipira isa ubururu, ingofero z'umweru n'amadarapo agaragaza ikirango.

Ibikorwa byahuje abaturage benshi, baje gutora umukuru w'igihugu. Bambaye imyenda itandukanye yo mu muco, abandi bambaye imyenda isanzwe, harimo umumama uteruye umwana, harimo umumama wundi ufashe igikapu.

Umumama wicaye ari mu nama arirabura ari kureba mu cyerekezo cya ruguru, afite imisatsi itari myinshi cyane ku mutwe y'umukara, yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari impapuro zitandukanye izisa umweru, n'izisa umukara.

Umugabo wicaye mu nama ari kureba imbere, arogoshe imbere hateretse amazi, hari n'igikoresho kimufasha kurangurura ijwi, yambaye imyenda y'umukara, hagati yambayemo na karuvati mu ishati.

Mu nama cyangwa se mumahugurwa, biba byiza cyane yuko abantu bitabiriye iyonama cyangwa amahugurwa, bakurikiira ibiri kubera muri iyo nama cyangwa se ayo mahugurwa, mugihe cyose bayitabiriye bika byiza y'uko, mugihe hari igitekerezo kiza kivugiwemo, abafite aho agomba kucyandika kugira ngo kize kumufasha hanyuma.

Ababyeyi bateraniye hamwe ari benshi, bambaye imyenda yo mu muco nyarwanda bita umushanrana iri mu mabara atandukanye, bamwe bambaye ibirahuri bifasha kureba abandi nta kibazo cy'amaso bafite.

Ikizu kimwe bareba imbere bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo abagore harimo n'abagabo inyuma yaho hari ikiranganiteko cy'igihugu, hari n'uruzitiro rusize amabara asa umweru n'umukara n'ibiti bihakikije.

Umuntu wicaye areba imbere, yambaye ibirahure bimufasha kubona. Ni umu mama wirabura ufite imisatsi inyerera, yambaye umwenda usa ubururu. Inyuma ye hari igishushanyo gikozwe mu rubaho.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri k'umwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Iri ku murongo y'amagorofa asize amarangi y'umweru n'umuhondo asakaje amabati y'umutuku imbere hari igiti kirekire kirimo insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Umukuru w'igihugu ahagaze imbere y'abaturage ari kubaha ikiganiro yambaye imyenda y,umukara, inyuma hari abandi bagabo batatu nabo bambaye imyenda y'umukara hicaye n'umumama nawe yambaye amalinete, imbere hari umuntu wambaye igitambaro cy'ubururu mu mutwe.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitatu, kimwe gitwara abantu benshi, ikindi gitwara imizigo, haragaragara umuntu urimo uragenda n'amaguru ruguru y'umuhanda, hepfo y'umuhanda hari ibiti bihakikije, hari n'ikirere gisa neza kitarimo imvura.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga gitwaye imizigo, kirasa ibara ry'ubururu, kiri mu muhanda kiri cyonyine, gikikijwe n'umuhanda ufite ibiti, n'uruzitiro rufite umwenda usa icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ikinyabiziga kinini gitwara esanse, hepfo yaho hari akanyabiziga gatoya ariko gakoreshwa mu gutwara imizigo. Ruguru hari ibiti bisa icyatsi.

Ihuriro ry'imihanda hari ibinyabiziga bibiri bitandukanye ,hari moto hari n'imodoka hahagaze abantu benshi batandukanye abikoreye ,hari n'imodoka iri ruguru y'umuhanda itwara abantu benshi ifite n'uburebure butandukanye n'imodoka ntoya zisanzwe.

Umuhanda urimo ikinyabiziga gitwara imizigo, kirasa ubururu bwijimye cyane, hepfo hari ibindi bitatu biparitse bisa umweru, bikikijwe n'ibiti bibitandukanya bisa icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikamyo itwara imizigo myinshi, haragaragara umuntu uhagaze wirabura wambaye imyenda yijimye n'inkweto zifunguye, ruguru y'iyo kamyo hari ikinyabiziga cya moto.

Abakiriri mu muhanda nyabagendwa iruhande rwawo abantu benshi b'abanyamaguru, hejuru hari inyubako igeretse icururizwamo ibintu bitandukanye. Ku ruhande rwo hepfo hari ikindi kinyabiziga gikurikiye icyo ngicyo kiri hagati.

Nyabagendwa urimo imodoka iri kwambukiranya umuhanda, hari umugabo uri ku ruhande uri kugenda mu cyerekezo gitandukanye nayo, yambaye ingofero, ahetse igikapu, hepfo y'umuhanda hari ibiti bikikije umuhanda.

Nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye ibitwara abantu benshi n'ibitwara abantu bakeya, hagaragara imodoka ndende na moto ziriho abantu, hakikijwe n'ibiti mu mpande hari amazu maremare akorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi.

Ikinyabiziga gitwara abantu benshi, kirasa ubururu n'umweru nandi marangi asizeho y'umukara, hagaragara abantu bari mumuhanda nyabagendwa bari mu byerekezo bitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga moto, itwaye abantu babiri, umumotari n'umugenzi, hakikijwe n'ibiti bitandukanye umuhanda urimo abantu bazamuka n'abamanuka, hagaragara ikirere gifite umucyo.

Umuhanda nyabagendwa uhuriyemo n'ibinyabiziga bitandukanye hari moto hari ibiti haribyatsi, hari amagare hari n'ikirere kigajutse cy'umweru.

Umuhanda nyabagendwa urimo umugabo utwaye agakoresho kamufasha gutwara imizigo, hepfo yiwe hari umumotari utwaye ikinyabiziga moto, ruguru y'umuhanda hari abantu babiri bicaye.

Umuhanda nyabagendwa, ugendwamo n'abantu n'ibinyabiziga, aha hari imodoka iri guhita ni iy'umweru hari n'indi isa ubururu itwaye ibyo kunywa harimo fanta harimo n'inzoga, hakikijwe na korotire isa icyatsi n'ibiti.

Ibinyabiziga bigenda mu muhanda bitandukanye kimwe n'imotoindi n'imodoka biri mu muhanda nyabagendwa ku ruhande hari ibiti bihakikije hari n'amazuruguru y'umuhanda, hirya hari amabuye akikije umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitwara imizigo, kimwe kiri imbere cyane gisa ubururu bwijimye ikindi ki inyuma gifite amabara y'umweru hagati harimo ibinyabiziga bibiri bitoya imodoka isanzwe itwara abantu na moto.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitatu bikurikirana, kimwe gikora akazi ko gutwara abantu, indi ni imodoka ku giti cy'umuntu, irasa umukara, ku kumuhanda hari ibiti bikikije bitandukanye imodoka zizamuka n'izimanuka.

Umuhanda nyabagendwa harimo umumotari'utwa moto afite ibyo ahereza abakiriya kugirango bakigire umutwe mu kuboko kwe, nawe ubwe ari kingiye mu mutwe. Hakikije amazu atandukanye y'amabara atandukanye.

Ikinyabiziga gitwara imizigo kiri mu muhanda nyabagendwa kirasa ubururu gifite amapine atatu hari kuruhande hari ibyatsi bisa icyatsi hari abantu babiri bari kugenda ba abanyamaguru.

Nyagendwa urimo abantu batandukanye abamama abapapa n'abana bakiri batoya, hari ibiti bihakikije hari naho kwicara umuntu ari kugenda kugenda akumva ararushye ku buryo yaharuhukira hari utuzu dutoya twubakishije ibiti.

Ahantu hari umucanga mwinshi urunze, hakikijwe n'uruzitiro rukoze mu byuma rubonerana, ruguru yaho hari ikinyabiziga giparitse aricyo moto n'imodoka hari ibiti bihakikije n'ikirere kijimye.

Icyapa kimenyesha, aho imodoka zihagarara, kiri mu mumabara y'umweru, n'ubururu bwijimye, hashushanyijeho imodoka ndende itwara abantu benshi, amagambo yanditse yanditse mu nyuguti nini mu mabara y'umweru.

Ahantu hasa nk'ahantu abantu basohokera bisa nk'akabari cyangwa se ahantu abantu bajya kwiyakirira bakaba bahafatiramo amafunguro ya saa sita, hari mu ibara ry'umutuku, hariho intebe z'umutuku ndetse n'imitaka yayo iratukura, birasa nk'ahantu mu gipangu hakinjiramo n'imodoka z'abantu baba baje kubagana.

Umuhanda nyabagendwa urimo icyapa kimenyesha, kigaragaza ko muri uwo muhanda hari undi muhanda mutoya uwushamikiyeho. Icyo cyapa kiri mu mabara y'umweru, umutuku n'umukara, hasi hari ubusitani busa icyatsi, hari n'igiti giteyemo gisa ibara ry'icyatsi kijimye.

Icyapa kimenyesha, handitseho akarere ka Karongi ruguru hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi hagati harimo umuhanda nyabagendwa harimo n'abanyamaguru bawurimo hepfo yaho hari imashini ifasha mu guhinga.

Icyapa kimenyesha; kiragaragaza icyerekezo ko ukomeza imbere wagera imbere ugatambika, honyine ntabwo umuhanda ukomeze imbere gusa, kiri mw' ibara ry'umukara ryijimye cyane.

Icyapa kimenyesha, intara ya Gicumbi, kiri mu mabara asa umweru n'icyatsi, hagaragara umunara utanga amashanyarazi ku baturage, hari umukobwa ufite igikapu kinini kirimo ibikoresho bye.

Uburyo umuhanda umeze, umuhanda urakomeza, hashamikiyeho n'undi ku ruhande. Biri mu mabara y'umweru inyuma mo hagati harasa ubururu, kiba kiri mu kiziga ku ruhande hariho akabara gatoya k'ubururu.

Icyapa kimenyesha icyerekezo umuhanda uri kujyamo ntabwo hariho indi mihanda iwushamikiyeho, kirasa ubururu ikimenyesha cyo kirasa umweru, ku mpande hari akabara gatoya k'ubururu.

Kimenyesha bita feruje, gifite amabara ane, umutuku, umuhondo n'icyatsi, buri cyose kiba gifite icyo gishaka kuvuga iyo hatse umutuku ari uguhagarara, umuhondo kwitegura kugenda, icyatsi kugenda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye biri kwambukiranya umuhanda, hari abanyeshuri hari ikigo cy'amashuri, hari n'icyapa kimenyesha ibyerekezo by'umuhanda uri imbere, imihanda iranyuranamo.

Inyubako ndende igeretse inshuro enye; hejuru hari igisenge kiriho ibigega bifata amazi; hari izindi nzu ku ruhande zitageretse zifite amabara atandukanye, ku ruhande hari imihanda nyabagendwa.

Inyubako yubatse igeretse, hejuru hari ibigega bibika amazi ni bitatu, ni birasa umukara, inyubako ifite amadirishya aho agaragara imbere ni atatu, ifite amabara ni shokora na kaki.

Ngo uyurimo ikinyabiziga moto itwaye abantu babiri hari inzu igeretse kabiri iri mu mabara yijimye ruguru yaho hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi n'umunara ufasha mu gukwirakwiza amashanyarazi.

Inzu igeretse ifite amabara atandukanye, umweru n'ibara ryijimye n'umukara hariho ubusitani ,bufite indabo zisa icyatsi n'umutuku na orange hari uruzitiro rufite ibyuma bisa umukara.

Inzu igeretse ifite ibirahuri by'umukara biyigize kumpande ifite n'igikuta gifite amarangi asa umweru n'andi asa n'akaki yijimye cyane.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga gisa umukara, ruguru hari icyapa cy'amamenyesha kirasa umutuku, k'urundi ruhande hari agakiyosike gacuruza ama inite, kabikura, kanatanga serivisi zo kohereza amafaranga, hari n'uruzitiro.

Ibinyabiziga bibiri biri mu muhanda ariko bitari kugenda, abamotari bambaye amajire yerekana serivisi zitangwa n'ikigo cyitwa MTN, haragaragra abantu bari kuzamuka mu kayira, umukobwa n'umuhungu.

Inyubako ndende igereretse inshuro eshatu, iri mu mabara asa kaki itijimye cyane, imbere yaho haparitse ibinyabiziga bifite amabara atandukanye na none imbere yaho hari umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga biri kugenda bimanuka ibindi bizamuka.

Nyabagenda haparitsemo ibinyabiziga bine, bimwe bifite amabara y'umukara, ikindi kimwe gifite ibara ry'umutuku, hari abagabo babiri bari kugenda mu cyerekezo kimwe, bafite uruhu rwera bahetse ibikapu.

Icyapa gikoreshwa mu kugaragaza ibikorerwa ahantu, handitse amagambo yanditse mu mabara y'umweru manini, hari n'igishushanyo kigaragaza ikawa, hariho na nimero za terefoni zabo.

Amazu atageretse afite ibisenge bifite amabara atandukanye, hari ibifite amabara y'umukara, bifite amabara yumutuku, hejuru hari ikirere gisa neza hari n'ishyamba hari ibiti bihakikije.

Akayira gacibwamo n'abantu, ruguru yaho hari igikuta kirekire gikoze mu mabuye, no hasi na ho hakoze mu mapave ruguru hari inzu ifite amarangi asa umuhondo.

Igice kigagara mu muhanda nyabagendwa, aho imodoka zihagara mu gihe zisiga abagenzi. Ni umuhanda urimo ibiti byiza bisa icyatsi, harimo n'ibyapa bimenyesha n'ibinyabiziga bitandukanye imodoka na moto.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye amakamyo, moto n'imodoka hagaragaraho n'ibyapa bigaragaza ibyo abantu bakora hariho ibiti bikikije umuhanda n'amatara amurikira umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye biri kujya mu byerekezo binyuranye hari ikinyabiziga gitwara ibintu n'imizigo hari imodoka iri inyuma itwara abantu bisanzwe zifite amabara y'umweru, umuhanda ukikijwe n'ibiti by'icyatsi bifite ibara ryiza.

Umuhanda nyabagendwa uherereye ku kinamba, harimo ibinyabiziga byinshi, moto, amagare n'imodoka, biri kujya mu byerekezo bitandukanye. Umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza bisa icyatsi, hari ikirere gisa neza kigaragara ko nta mvura yenda kugwa.

Umuhanda nyabagendwa burije harimo umuntu uri kwambukiranya umuhanda, hari n'ikinyabiziga cya moto gitwaye abantu babiri n'ibyapa biranga umuhanda nimero yawo, ruguru y'umuhanda hariho ibiti by'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga bita moto, kiriho abantu babiri. hirya hari icyapa kimenyesha, hari n'ibiti byicyatsi. ruguru yaho hari umuntu, hari igicucu cy'umuntu uhagaze uri kuri terefone.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, hari moto, hari n'imodoka, ruguru y'umuhanda hari ibindi binyabiziga nabyo biri kugenda mu byerekezo bitandukanye n'ibya mbere, umuhanda urasa umukara harimo amabara y'umweru n'umuhondo, ruguru hari ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, moto, hari icyapa kigaragaza aho abanyamaguru batambuka, harimo n'ikigo cy'amashuri, hirya hari ibiti bitandukanye, hari n'umuntu urangira aho abantu baca cyangwa uyobora ibinyabiziga.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bijya mu byerekezo bitandukanye, ibyinshi birimo ni moto, hagaragara n'ikinyabiziga cy'ikamyo itwara byinshi nk'imizigo, ruguru hari icyapa cya MTN kiririmo amabara y'umuhondo.

Ngendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye imodoka, moto, hakikijwe n'ibiti byiza bisa icyatsi. Umuhanda usa umukara, hari ikirere gisa neza kitijimye, hari imanara ikwirakwiza amashanyarazi.